Abagore n'abagabo bateraniye ahantu hamwe mu nama, bigaragara ko bari gukemura ibibazo by'abaturage ndetse n'abandi bantu, babegereye bagaragara.

Inama yitabiriwe n'abantu bake ugereranyije n'imyanya yabana yateguwe. Hateguye imyanya myinshi intebe ziri mu ibara ry'umutuku ubona ko hari.

Inama iteraniyemo, abantu ubona ko imbere yabo hari umugore, uri kubagezaho imbwirwaruhame, ubona ko ari gusoma ibyo kubabwira.

Umuco nyarwanda ugaragara mu kirori aho abantu bari kubyina bambaye impuzangano y'umweru ndetse bahagaze no ku matapi y'icyatsi.

Umuco wo kurora inka z'inyambo, ubona ko hari umugabo w'umushumba uziragira, ubona yishimiye akazi akora, ari no kwifotoza.

igikorwa cy'amashanyarazi aho bari kuba ku umuyoboro, hagaragaraho abakozi babiri bari kubaka bonyine.

Amashanya amashanyarazi agaragara ahantu hari umuntu ushinzwe kwirinda.

Ibikorwaremezo byubatswe ku butaka, kugira ngo bifashe abaturage, kubona umuriro w'amashanyarazi biteye...

Inyubako ya Leta iriho abantu bari kubyina bishimye, hagaragaraho n'abayobozi bari kumwe na bo, yubatswe neza isize ibara ry'ubururu.

Inzu ya leta iri muri Inyange miliki, itunganya umusaruro w'amata, iri ku buso bunini, bugaragaraho amazu.

Ibikorwaremezo bya leta bigaragara ahantu hari amashyamba.

Inyubako ya leta, igaragaraho imodoka ziparitse ahantu, umuhanda mwiza, uzengurutswe n'ibyuma birimo amabara atukura.

Ikirango cy'Akarere ka nyagatare umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Nsheke, Umudugudu wa Nyegeza, kigaragara ahantu hari inyuma yaho ibiti.

Sitade ikinirwaho ibintu bitandukanye harimo n'umupira.

Ikiraro kirekire, kiri hagati y'imisozi ibiri, gikomeye cyubatswe mu buryo burambye, gifite akamaro kanini kubo kege.

Umuyobozi wa polisi atanga imbwirwaruhame.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, hari benshi batega amatwi umuntu ubagezaho icyo yabateguriye, hari ibiti n'inyubako zo kubafasha kugama izuba ndetse n'imvura.

Inkiko zishinzwe gukemura amakimbirane y'abaturage. Ubona ko hari abantu benshi baje gukemuza ibibazo byabo, bari kumwe n'abayobozi babo babishinzwe.

Umugabo uri mu nama wambaye ingofero uri gutanga igitekerezo ke, yambaye n'ishati y'umutuku, inyuma ye hari abandi bagabo nabo bari gutega amatwi ibitekerezo bye.

Abantu bari mu muganda urabona ko ari abantu benshi tabiriye bafite amasuka ubona ko bari mu gikorwa kimeze neza.

Umupira uri gukinwa n'abakinnyi ahantu hagaragara nkaho atari ikibuga gihamye iruhande rw'amazu menshi bigaragara ko harimo nko muri karitsiye runaka.

Abakinnyi bari ku murongo wambaye amajezi n'inkweto.

Abantu benshi bari mu gikorwa cya siporo barikugendera mu muhanda mugari harimo abambaye imipira miremire abandi bambaye amasenge.

Umukino uri guhuza amakipe abiri atandukanye y'abagabo, ikipe imwe yambaye ubururu, indi ikambara umuhondo, urabonako bari gusatira umupira.

Umuhanda uri ahantu runaka uri kunyurwamo n'imodoka abantu bagenda muri kaburimbo hagaragaramo ho ibiti bikikije uwo muhanda.

Moto iri kugenda, ihetse ibijekani, ni mu muhanda wa kaburimbo, igenda itwawe n'umushoferi wambaye ishati ndetse na kasike.